Umugore wambaye itaburiya y'umweru imbere ye hicaye umugore wambaye umupira utukura ndetse n'igitambaro mu mutwe, afite igikoresho yamushyize ku kaboko na we acyambara mu matwi kifashishwa mu gupima uburyo umutima utera.

Abagabo bane n'umugore umwe bahagaze impande y'ibangukiragutabara iparitse ku mapave ahari, inyuma yaho hari ibiti binini kandi birebire bifite amashami manini.

Umugabo wambaye isarubeti y'umweru ikoze mu mashashi yifashishwa mu bwirinzi, ahetse ipompe yifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi, ari imbere y'inzu mu idirishya harimo umuntu uri kumureba.

Mu bitaro kwa muganga harimo ibitanda hariho kimwe kiriho umurwayi wicaye imbere ye hari umuganga uhagaze ufite igitabo n'ikaramu wambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari undi umufasha wambaye itaburiya y'ubururu.

Umugabo wifashe ku gahanga wicaye kuri kaburimbo ku kayira k'abanyamaguru iruhande rwe hateretse agacupa k'amazi ndetse n'akamvirope gatukura.

Abagabo batanu bafite ubumuga bicaye mu tugare bambaye imipira y'imituku, udupfukamunwa ndetse n'ingofero, iruhande rwabo hagaze abandi bantu.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, harimo abarwayi batandukanye bagiye bari ku bitanda, hari n'abandi bashashe hasi ariho baryamye harimo abaganga bari kubitaho.

Abaganga bicaye ku ntebe bambaye amatuburiya y'umweru, barimo gutanga inama z'uburyo hakiririndwa indwara ndetse no kwirinda ikwirakwira ryazo.

Abantu babiri bambaye ga z'umweru isarubeti y'ubururu yifashishwa n'abaganga, bari guhererekanya ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Abagabo babiri umwe aricaye yakunje ishati akaboko k'ibumoso, undi arahagaze yambaye itaburiya y'umweru mu ijosi afite agakoresho gapima uko umutima utera imbere yabo hari ameza arambitseho impapuro ndetse n'igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yabo umugabo uhagaze hagati y'ameza uri kubaganiriza bamuteze amatwi, inyuma ye yicaye umugore wambaye itaburiya ufite telefone.

Mu bitaro kwa muganga, harimo ibitanda bigiye biriho abarwayi. Hejuru ya buri gi bitanda hagiye hariho inzitiramibu y'ubururu ariko itamanuye.

Umugabo n'umugore bambaye amataburiya y',ubururu imbere yabo hicaye umugabo wambaye ishati n'ingofero yateze ikiganza ke barimo kumufata amaraso, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo: "Irinde virusi itera SIDA".

Inyubako y'ubururu ifite ibati ritukura, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye imyenda yakazi n'undi w'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru, arimo kwakira murasire ibitaro byabo byahawe.

Umugabo uryamye ku gitanda kwa muganga areba hejuru, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, yambaye igikoresho mu matwi kizwiho gupima uko umutima utera.

Ku kigo nderabuzima, ku idirishya ryo kwa Mituweli, hagazemo umugore uhetse umwana afite n'igikapu mu ntoki, iruhande rwe hari intebe ndende y'urubaho yicayeho umugore uri konsa umwana n'undi udafite umwana wikenyeye igitambaro mu mutwe cy'umweru.

Imodoka nini izwi nk'imbangukiragutabara itwara abarwayi, mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo igitanda umurwayi agenda aryamyeho ndetse n'intebe umurwaza ndetse na muganga bagenda bicayeho.

Umugabo uhagaze wambaye itaburiya n'gofero by'icyatsi, agapfukamunwa k'ubururu ndetse nuturindantoki tw'umweru, arimo kurebera mu gikoresho kimufasha kubona ibyo amaso ye atabona ku kumurwayi umuryamye imbere.

Sale nini yo kwa muganga, iteraniyemo abarwayi batandukanye, harimo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe imbere y'umuryango wa dogiteri, bategereje kujya kwisuzumisha.

Mu bitaro kwa muganga ahazwi nk'inzu y'ibagiro, mu muryango waho hahagaze abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe bambaye uturindantoki tw'umweru.

Abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bavanzemo n'urubyiruko, bamwe barahagaze abandi baricaye bahagaze imbere y'umuryango saree nomero ya mbere.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kizwi nk'ibitaro, harimo ibitanda biryamishwaho abarwayi, bishashemo amashuka y'icyatsi, abarwayi baryamaho iyo barimo kwivuza babamo.

Abantu batandatu, barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imipira y'imweru, hasi bambaye amapantaro ndetse n'amajipo y'imikara, bazamuye ikiganza cy'iburyo barimo kurahira.

Inyubako nini y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwaka serivise zigiye zitandukanye z'ubuzima baje kwivuza indwara abandi baje kwisuzumisha ubuzima bwabo aho buhagaze.

Abantu bane bahagaze mu muryango wo kwa MIS/UR, imbere yabo hari abaturage bicaye, babahanze amaso barimo kumva ibyo bababwira.

Inyubako nini zizwi nko kwa muganga, imbere yazo haparitse imodoka izwi ku izina ry'imbangukiragutabara ifasha abarwayi badafite imbaraga kubageza ku bitaro.

Mu bitaro kwa muganga harimo abaganga babiri bambaye uturinda musatsi, dupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'ubururu, undi yambaye iby'icyatsi barimo kwita ku murwayi uryamye ku gitanda kirimo.

Icyumba kinini cy'inama, hicayemo abantu bane undi arahagaze, barimo bigisha urubyiruko kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere yabo ko ari uburenganzira bwabo.

Umugabo uhagaze uri kumwe n'umugore wambaye ikanzu y'igitenge, inyuma yabo harimo amarido, kurukuta hometseho igipapuro kiriho amagambo atagaragara neza.

Abantu benshi bagiye batandukanye barimo gusohoka mu marembo y'ibitaro by'Akarere ka Nyagatare, bagiye bari ku mirongo abantu b'imbere bo bafashe icyapa kinini cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro by'Akarere ka Nyagatare.

mugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'imyeru, yambaye uturindantoki tw'ubururu, ari mu nyubako irimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gupima no gusuzuma indwara z'abantu.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afite igitoryi n'urushinge, arimo aravoma umuti wo gutera abarwayi.

Umugabo uhagaze wambaye ikaburiya y'umweru, ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afite igikombe kinini, arimo arasukamo ibintu yifashisha mu bushakashatsi, iruhande rwe hateretsemo ibikombe bifunze.

Icyumba cyo kwa muganga gipimirwamo kikanasuzumirwamo indwara zigiye zitandukanye, harimo umugabo wambaye uturindantoki tw'umweru afite agakoresho arimo gushyiramo amaraso agiye gusuzuma.

Ameza manini maremare atetseho udukarito twinshi tugiye dutandukanye turi mu ibara ry'umuhondo n'umweru, handitseho kwaritemu harimo ibinini bizwiho kuvura malariya.

Icyumba kinini cyagenewe ubushakashatsi no gusuzuma indwara, mo imbere harimo abantu batandukanye bambaye amasarubeti y'umweru, abandi ay'ubururu, bambaye n'uturindantoki, imbere yabo hari imeza bari gukoreraho ubushakashatsi.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ifite amabati y'ubururu ndetse n'ikigega gifata amazi avuye ku ibati, ifite agahanda gakoze karimo guturukaho abantu benshi batandukanye.

Umugore wambaye igitenge gitukura uteruye akana kambaye ingofero ndetse kanafubitse mu bitambaro by'umweru yicaye ku gitanda cyo kwa muganga.

Umugabo n'umugore bicaranye bafatanye ku ntebe. Umugore aratwite, imbere yabo hicaye umugore ufite igitabo. Yambaye itaburiya w'umujyanama w'ubuzima.

Mu bitaro kwa muganga aho ababyeyi babyarira, harimo ibitanda. Hicayemo umugore uri konsa akana ke, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya n'ipantaro by'umweru ndetse n'ingofero irinda imisatsi.

Abagore babyaye bateruye abana babo bari kubonsa, bicaye ahantu hamwe ku ntebe begeranye, bambaye imipira isa y'ubururu, iriho ikirango cya USAID.

Mu bitaro kwa muganga hagiye harimo ibitanda biri ku murongo buri gitanda kigiye gifite inzitiramibu yacyo haryamyeho abagore bafite abana babaryamye iruhande.

Abaganga babiri umugore n'umugabo, bambaye amataburiya y'umweru, barimo kwita ku mugore wicaye ku ntebe, uteruye akana, iruhande rwabo hariho ameza, harihoho ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Abagore batatu bahagaze bambaye amataburiya y'ubururu yifashishwa mu bikorwa byo gutanga ubuvuzi bw'ibanze, imbere yabo hari ameza arambitseho ibitabo ndetse n'amakaramu bandikamo abo bakoreye.

Abana benshi bakoraniye hamwe bicaye baragijeje, bateruye amasahani ariho ibiryo bari kurya, bazanye n'ababyeyi babo baje kwigishwa kugaburira abana indyo yuzuye.

Umugore wicaye mu ntebe z'ubwegamiro uteruye akana, imbere ye hari umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya y'ubururu afashe aka metero mu ntoki ze arimo kugashyira mu kaboko k'umwana areba aho umwana ahagaze mu mirire.

Abantu batandukanye, barimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imipira y'icyatsi, bicaye mu itente ritatse amabara y'icyatsi n'umweru, bari gukurikirana ibiganiro.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi uriho ibirango by'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima ufite indangururamajwi ndetse n'urupapuro ruriho ibyo arimo kubwira abaturage bicaye aho ngaho.

Inyubako nini y'ishuri igiye ikasemo ibyumba by'amashuri bigiye bitandukanye, byubakishije amatafari ahiye, yifashishwa n'abanyeshuri, barimo kuyigiramo.

Abantu benshi bahagaze mu mucaca. Bakoze uruzitiro rw'intebe bazamuye ibipfunsi byabo by'iburyo barimo bavuga amagambo. Imbere yabo hashinze icyapa cya RBC bigaragaza ko ari ibijyanye n'ubuzima.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imipira itukura ndetse n'ingofero ziri mu mabara y'umuhondo n'umukara hariho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima baricaye bari gukurikirana ibikorwa bigiye bitandukanye biri kubera aho.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi bakikijwe n'ibiti birebire, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi wambaye imyenda ya RIB ari kubaganiriza.

Imbaga y'abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko bicaye hamwe mu mucaca abandi bicaye ku ntebe, imbere yabo hahagaze umugore uboshye imisatsi wambaye ipantaro y'umukara urimo arabaha imbwirwaruhame.

Imbaga y'abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bicaye ku mucaca bakikijwe n'ibiti inyuma y'ishuri, imbere yabo hari umugore uri kugenda ahereza buri mwana ijambo yumva igitekerezo ke.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Ifite inzugi z'umweru hariho icyapa cy'ubururu cyandikishije amagambo y'umweru. Cyanditseho ngo isangage one stop center twakira abahohotewe.

Umukobwa ufite ikayi na terefone mu ntoki, afashe ku rutugu umugore wipfukishije igitambaro umunwa ndetse n'amazuru, bicaye ku rubaho, inyuma yabo hashinze inkwi nyinshi.

Inyubako nini irimo etajeri, iriho imiti igiye itandukanye, y'amoko agiye anyuranye, harimo isukika, ibinini, ndetse n'indi yifashishwa mu kuvura indwara z'abantu zigiye zitandukanye.

Inyubako izwi ku izina rya farumasi harimo utu etajeri twubakishije ibiti, tugiye duteretseho amakarito arimo imiti igiye itandukanye, harimo umugore ufite imisatsi iboshye ukoramo.

Ibinini byinshigiyeye bigerekeranyije, bivura indwara bigiye zitandukanye, biri mu mabara agiye anyuranye ariyo; umutuku, umweru, umuhondo ndetse n'ayandi mabara.

Umuti uri mu bwoko bw'ibisukika uri mu gacupa k'umweru, agapfundikizo gatukura wometseho igipapuro gisobanura uko ukoreshwa, wifashishwa mu kuvura amatungo ndetse uyongerera imbaraga.

Umuntu ufashe icupa ririmo umuti w'umweru, wifashishwa mu kuvura indwara z'amatungo, nyuma yayo hateretse utundi dukarito tugiye dutandukanye, turimo imiti igiye inyuranye.

Inyubako nini izwi ku izina rya farumasi, harimo imiti igiye iri mu tubati itandukanye, harimo umuganga wambaye taburiya, urimo urakoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Inyubako izwi nka farumasi harimo imiti y'amoko atandukanye, harimo isukika iri mu macupa ndetse n'utundi dukarito turimo ibinini byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nini izwi ku izina rya farumasi, harimo imiti myinshi igiye itandukanye, harimo abagabo babiri umwe ni umukozi waho, undi ni umurwayi wazanye urupapuro ruriho imiti yaje kugura.

Inyubako izwi nka farumasi itangirwamo imiti ivura abantu, harimo umugore uri kugura imiti ndetse n'undi wicaye uyicuruza, harimo utuetageri turimo imiti y'amoko agiye atandukanye.

Inyubako nini y'ubucuruzi, isize irangi ry'umweru, iriho icyapa kinini cyanditseho farumasi, icururizwamo imiti y'amoko agiye atandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'abantu, harimo igiye ipfundikiye mu dukarito ndetse n'ibindi binini bidafunze. Imbere yatwo hari igipapuro kinini giteyeho kashe.

Ibinini bigiye bitandukanye, ibiri mu gakarito n'ibitari mu gakarito bikoreshejeho, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu.

Inyubako izwi nka farumasi harimo etageri ndende kandi nini ifite ibirahure inyuma, hagiye harimo imiti itandukanye igiye ipakiye mu macupa agiye ari mu mabara atandukanye.

EtaJeri y'ibirahure, iteretseho imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bw'abantu, harimo isukika ibinini ndetse n'indi, igiye iri mu dukarito, tugiye dutandukanye.

Imiti y'amoko agiye atandukanye harimo ibinini n'indi iri mu bikarito irambitse ku meza yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye z'abantu.

Icyumba kinini k'inama hateraniyemo urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umugabo uhagaze urimo aragenda abaganiriza.

Icyumba kirimo igitanda kiriho amashuka y'imyeru, haryamye umuntu, ikirenge cye cy'iburyo barimo bagikanda, bamukorera ibyitwa myakura myakura.

Umuntu ufite agasekuru gatoya ndetse n'agahini gato bikoze mu ibumba, harimo imiti arimo gusekura, iruhande rwe harimo amashashi agiye afunze, harimo ibyo yagiye asekura.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nk'ibitaro harimo igitanda baryamishaho abarwayi bivuza babamo badataha, harimo umuganga urimo urafata amaraso.

Inyubako nini y'umweru ikorerwamo ubucuruzi ifite amakaro y'umweru mu imbere harimo etajeri harimo imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, imbere yayo haparitse moto.

Udukarito twinshi tugiye tugerekeranyije, turimo umuti wifashishwa kuvura amatungo ashushanyije ku gikarito, harimo; inka, ingurube, ihene, n'intama.

Icyumba cyo kwa muganga harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite igitabo ndetse n'ikaramu ari kwandikisha. Imbere ye hari umugore witeze igitambaro aje kwivuza.

Amakarito agerekeranyije arimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo yashyizwe ku icyo gikarito harimo: inka, ihene, intama ndetse n'ingurube.

Ikiganza gifashe agakarito k'umuti wanditseho egisitetara sayikilini injegisheni, hashushanyijeho ihene, intama ndetse n'inka.

Inyubako isize irangi ryy'ubururu, isakarishije amabati y'ubururu, imbere yayo hari abagore ndetse n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu, barimo kubyina, imbere yabo hari umugabo ufite terefone, wambaye agapfukamunwa, uri kubafotora.

icyumba cyo kwa muganga, kirimo umurwayi wicaye, waje kwisuzumisha indwara, imbere ye hari umuganga wambaye ikaturiya y'umweru, agiye kumupima uburyo umuvuduko we w'amaraso ugenda.

Sale nini yo kwa muganga, hateraniyemo abarwayi baje kwivuza indwara zitandukanye, hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, urimo kugenda abaha serivisi.

Inyubako ndende y'ubururu ifite amabati y'ubururu, imbere yayo hari imbuga ngari cyane izengurutswe n'abaturage bagiye banyuranye, bagiye kwaka serivisi zijyanye n'ubuzima.

Inyubako isize irangi ry'ubururu, ishakaje amabati y'ubururu, yanditseho gira ubuzima. Imbere yayo, hari abantu bicaye ku ntebe abandi barahagaze, ifite imbuga ngari, inyuma yayo hari itente rirerire ry'umweru.

Inyubako nini zishakaje amabati atukura, imbere y'umuryango umwe hicaye abantu benshi, imbere yayo hateye jaride irimo ibiti ndetse hari n'agahanda harimo umugabo arikugendamo.